Umurima munini, igice kimwe nta kintu gihinzemo, hirya hahinzemo ibihingwa bigaragara ko byumye ndetse harimo n'ibiti by'imigano n'imigenda irimo amazi.

Ishyamba rinini, ririmo ibiti byinshi by'ubwoko butandukanye, harimo ibinini ndetse n'ibindi bikiri bitoya, bigaragara ko hadashize igihe kinini bitewe.

Icupa ririmo umuti bigaragara ko ari uw'amatungo nk'uko bishushanyije ku gapapuro kazengurutse ndetse iruhande hari ikarito babikamo uwo muti.

Imifuka minini irimo ibihingwa bitandukanye, hari imwe irimo soya, indi irimo ikawa, indi irimo ibigori, indi irimo ingano.

Umurima uhinzemo inyanya harimo zimwe zeze zisa umutuku, n'izindi zitarera neza zigifite ibara ry'icyatsi ziri ahantu hasasiye neza.

Igiti cya avoka giteye ahantu hari ibindi biti byinshi na byo bya avoka, harimo utubuto duto tutarera tukiri gukura.

Umukobwa wambaye agapira n'ijipo ikozwe mu gitenge yambaye n'ibirenge ari mu murima arimo atera ibihingwa mu butaka.

Ururabo rukunze guhingwa mu rugo, rufite ibara rijya gusa umuhondo, iruhande hari utwatsi duto twa pasiparume.

Umurima munini uhinzemo ibintu bitandukanye harimo umugabo wambaye ingofero y'umukara n'igisarubeti cy'ubururu arimo gucucira amazi.

Abagabo babiri bari mu cyumba kinini, kirimo utubati twinshi tugiye turiho nimero, turimo inkwavu, umwe ari kwereka mugenzi we ibiraro.

Inka ifite amabara y'umukara n'umweru iri kurisha ubwatsi buke buri mu mbuga y'inzu, hari n'umugabo wambaye igisarubeti na bote.

Ingagi y'umukara iri mu biti byinshi biri hejuru, bigaragara ko iri muri parike y'ingagi.